Iki ngiki ni icyapa kigaragaza yuko iyi sosiyete itanga ubwishingizi ku binyabiziga, icyapa kikaba kiriho na nimero wabahamagaraho n'ahantu wabasanga byose bikaba bikubiye muri iki cyapa.

Izi ngizi ni imodoka zihurira ahantu hamwe, bigaragara ko ari nko mu isoko bacururizamo imodoka. Imodoka zo mu bwoko bumwe ziri ahantu bigaragaza ko ziri ahantu bazicururiza.

Iyi ngiyi ni inzu y'ubucuruzi bigaragara ko ishobora icuruza ibintu bijyanye n'amata n'ibikomoka ku matungo. Bisa n'amata n'ibindi bikorwa mu mata.

Ikingiki ni icyapa cya airtel cy'amamaza ibijyanye na serivisi za airtel money ikindi cyapa kikaba cyerekene ibijyanye n'uko umuyoboro wa airtel money wa airtel ukoresha ibijyanye na airtel money.

Iyi ngiyi ni inote y'amafaranga atanu. Akaba ari inote iriho umuntu wambaye amarinete igaragaza ko ari y'amafaranga atanu.

Ikingiki n'icyumba cy'inama, kiberamo inama abantu bicaye barebana atari benshi cyane, akumba kagaragara nkaho ariho haberamo nk'inama y'abayobozi, abayobozi igihe bahari bagakora inama barebana.

Ni umuntu uhagaze imbere y'icyapa kigaragaza yuko batanga inguzanyo itagira ikiguzi, akaba ari icyapa kigaragaza ko ari icyapa cyamamaza bakaba bagaragaza yuko batanga inguzanyo itagira ikiguzi.

Iki ngiki ni igikoni kigezweho kiri mu nzu ubona ko kirimo ibintu byose nkenenerwa mu gikoni harimo utubati, harimo aho batekera, harimo aho bakonjeshereza ibintu ubona ko ari igikoni kigezweho kirimo ibintu byose.

Inzu nziza ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, Kanombe ifite ibyumba bine na dushe eshatu ikaba ibikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi. Ni inzu igaragara neza ubona ko ari nziza bagaragaje imbere hayo bagaragaza no hejuru yayo.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bijyanye n'amatapi cyangwa se imikeka barambura mumasalo, imikeka ukaba ubona ko iri mumabara atandukanye se cyangwa izi tapi zikaba ziri mumabara atandukanye.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyenda, bigaragara yuko harimo imyenda imanitsemo ricuruza. Abana barimo kugurisha cyangwa se kugura imyenda, bari muri iri duka ricuruza iyo myenda.

Iringiri ni iduka rinini bahahiramo ibintu bitandukanye urabona ko harimo utubati turimo ibintu bipanze neza. Aya ni amaduka aba ari nko mu nyubako runaka bakajyamo bagiye guhahiramo.